iki cyatsi gifite amahwa kirajomba ariko kiranavura, kivura indwara zitandukanye, iki cyatsi gifite amababi asataguye.

Umugwegwe ni icyatsi kimera mu kibara， baranagitera， iyo ugisaruye bagikuraho imigozi yo kuzirika ibishingirizo，kuzirikisha ibiti， kera barabyubakishaga.